Inyubako y'amashuri abanza ya Kabwende, afite imireko ku ruhande ndetse iyo mireko ijyana mu kigega cy'amazi. Iyo nyubako ikaba ifite igishushanyo mbonera cyerekana intego, icyerekezo ndetse n'indangaciro z'icyo kigo cy'amashuri abanza.

Umuntu urimo gukora ubugeni bwo gushushanya ari gushushanya akoresheje ikaramu y'igiti ndetse yambaye nini n'imyenda mpunzangano zabugenewe ndetse afite ifoto arimo kureberaho ashushanya ari ifoto iriho umwana ndetse n'ababyeyi biwe bigaragara ko ari umugore n'umugabo ndetse n'umwana umuryango wuzuye.